Abantu bari mu nama bicaye imbere yaho nta agapapuro karirimo'amazina yabo hari abafite amazi ari na bamwe muri bo bafite mashini n'abandi telefoni zibateretse imbere, imbere yabo hari ikigaragaza amashusho y'ibyo bari byinshi ku nama.

Abantu bari mu nama abagabo ndetse n'abagore imbere yaho hari ameza ariho igitambaro kirimo ubururu ndetse nashokora kandi imbere yabo bafite imashini n'amazi yo kunywa, icyumba barimo harimo amadirishya ndetse na marido imbere hari umugabo uri ukoresha inama yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru akaba banaporogitinze imbere ku rukuta.

Ndi kubona aho amashanyarazi bayakururira, nkabona ipironi, nkabona nk'ibindi bikoresho binyuramo insinga, nkabona korotire irinda ko abantu bahegera kugira ngo badashya.

Ndi kubona aho imodoka ziparika hakaba hasakaye, hakaba hameze nk’igipangu cyubakishije amatafari, ndetse hari n’ahandi hubakishije amabuye. Ndabona kandi hari kamera iteze intego, ndetse n’igisenge kinini gishyigikiwe neza. Hafi aho, hari n’igiti gikikije aho hantu.

Turikubona icyapa kiriho ubururu cy'andikishijwe muri icyo cyapa ibara ririmo umweru ,ririmo n'ubururu bashushanyijeho n'imodoka kigaragaza ko imodoka igomba guparika ahongaho ahongaho.

Mu muhanda wa kaburimbo munini cyane harimo hagati inzira y'abanyamaguru bemerewe gucamo, hakurya hariyo ibiti binini cyane n'ibyatsi biteye hasi amatara amurika mu muhandamo hagati hakurya hariyo amazu menshi cyane.